Impombo nini irimo gusohokamo amazi, hari umuntu uhari wambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu, ateze ibiganza muri iyo mpombo irimo kuzana amazi, arimo kugenda ameneka hasi.

Agatanda kubakishije ibiti, kariho ibikoresho bikoreshwa mu rugo by'isuku harimo bibasi, ibisuperi, amasahanre n'ibindi bigiye bitandukanye kandi hakikijwe ibimera harimo n'ibyakozwe.

Ivomo ririho abantu batatu b'igitsina gore, hari amajerekani arimo kuvomerwa, n'umwe wambaye igitenge kirimo amabara y'icyatsi nay'umuhondo yambaye kamambiri kuri iryo vomo hari insina z'imibyare.

Abagabo n'abagore bamwe bahagaze abandi bicaye, harimo abambaye amataburiya y'umweru bafite amakarita abaranga kandi inyuma yabo hari icyapa kerekana ibikorwa barimo kandi aho bari hari amabuye.

Umubyeyi wicaye, witeze igitambaro mumutwe, umupira w'umweru, ikote ry'ubururu, igitenge kirimo amabara, imbere ye hari abana bicaye batishimye.

Inyubako yubakishije amatafari ya rukarakara, hahagaze umwana wambaye ikanzu irimo amabara agiye atandukanye, ufite igicupa mu ntoki kandi afashe ku gikuta cy'umukara.

Umugore n'umugabo bari ku ivomo bafite amabuni abiri, umugore yiteze igitambaro yambaye ishati y'amaboko maremare, akeneye igitenge, umugabo yambaye ikote ry'amaboko maremare harimo amabara y'umutuku.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga kandi biri mu mwanya wabugenewe, harimo amacupa abiri afunikishije imifuniko y'umukara, indiba zayo ni umukara kandi ateretse neza, ku ruhande hari ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kumenya amakuru y'uko ibintu bihagaze.

Icyumba kirimo gukorerwamo imyidagaduro, harimo abarimo kubyina bateze amaboko bashayaya kandi ku nkuta z'icyo cyumba hashushanyije ibishushanyo bitandukanye kandi harimo ibikoresho, intebe, ameza n'ibindi.

Icyumba kirimo abantu bicaye abagabo n'abagore, ku meza hari amacupa y'amazi, ubukombe burimo indabyo, ibirahure by'amazi, ibitabo biri ku meza, barimo kuganira, ku rukuta rw'ibyo byumba hariho ibirango bigiye bitandukanye, byanditseho amagambo hari n'ifoto ihashushanyije.

Inyubako irimo ivomo, harimo abana, umwe arimo kunywa amazi ku ivomo, yambaye ishati y'umweru, umupira w'umweru, ku rutugu hari ibara ry'umukara, umwegereye ahetse igikapu cy'umukara.

Ivomo ririho umugore urimo kuvoma, ijerekani n'akabuni gatoya, hejuru y'iryo vomo hariho imifuniko bahasize, kandi hari ibiti bihari bikikije iryo vomo.

Ivomo ririho umwana wambaye umwambaro ufite ibara ry'umutuku, ufashe ibiganza abishyira ku ivomero, arimo gukaraba intoki kandi iryo vomero hariho ikirango cyerekana imirimo cyangwa uwateye inkunga iryo vomera kugira ngo ribashe kubakwa.

Ku ivomo rusange hari abana bane. Ku ivomo hari ibuni imwe irimo kuvomerwa umwana umwe arimo gufumba abandi batatu barahagaze, umwe afite inkoni yambaye umupira w'umutuku, ikabutura y'ubururu, bote, inyuma yabo hari ibuni kandi hari n'ibyatsi.

Icyumba kirimo abantu babiri, ufite imisatsi myinshi wambaye agapfukamunwa, itaburiya y'umweru, ufite telefoni mu biganza, ikaramu arimo kwandika mu gitabo, uri ku ruhande areba arimo kumubwira amakuru yarangiza akayandika, kandi nyuma yabo hari icyapa cyerekana kandi kiburira yuko dukwiye kurwanya indwara ya Sida.

Umudamu uhagaze, mu kuboko kwe harimo mikoro ndangururamajwi, kandi mu kundi kuboko ikiganza yagishyize mu gatuza, inyuma ye hari banderole ishushanyijeho ikirango cy'umuryango mpuzamahanga umwe kandi hari n'ibishushanyo bindi bigiye bihashushanyije biri mu mabara agiye atandukanye.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'amaboko magufiya, ikabutura ari ku kigega, afashe kano arimo gufungura amazi arimo kuvomera mu gikombe cy'umweru kandi hari inyubako inyuma ye yubakishije rukarakara.

Abantu batatu, harimo uwambaye akarindantoki yambaye itaburiya y'umweru, afite icyuma mu ntoki, yambaye agapfukamunwa, wambaye akandi kantu gahisha isura ye, arimo guhohotera umugabo wambaye ishati irimo amabara, agiye atandukanye, ingofero, umwana uhagaze, we ubireba kandi witegereje, ubona ko byamuteye ikibazo, kandi hari n'ishyamba inyuma yaho.

Ivomo rusange ririho abana, abahungu n'abakobwa barimo gukaraba intoki abandi bazamuye amaboko, kandi iryo vomo kano yayo irimo kuva amazi kandi hari ikirango kiri kuri iryo vomo cyerekana ibyemewe.

Icyumba kirimo abantu bajyiye batandukanye bicaye harimo n'abana, kandi hari umuntu urimo gutanga mu gutanga serivisi hari abahagaze baganyaye abana kugira ngo babashe kubakemurira serivisi bakeneye kandi muri iyo nyubako harimo amabara agiye atandukanye hari n'amagambo yanditse ku nkuta zayo.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanya abagabo n'abagore hari umwana basize imbere yabo bamuteretse mu kantu ubona ko barimo kumupima uburebure cyangwa ingano ye kandi aryamishijwe ku gitanda cyabugenewe.

Icyumba kirimo abantu batatu n'umugore wicaye ateruye umwana ku bibero umwana wambaye akagofero kubudodo karimo amabara agiye atandukanye, urimo kumuha umuti yambaye itaburiya y'umweru yambaye ibikomo by'umweru, kandi afite agacupa k'umuti mu biganza bye arimo kumuha kandi yambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara atandukanye.

Inyubako yubatse kandi kuri iyo nyubako hari icyapa kimanitse, cyerekana igikorwa cyateranyirije abantu bari kuri iyo nyubako. Hari n'ibendera rimanitswe kandi hari abantu bagiye batandukanye; abagabo, abagore, abana, kandi ubona yuko ko bose bameze nk'abahujije umugambi hamwe.

Icyumba kirimo abana batatu, abagore babiri n'umugabo, harimo intebe zegamirwa, uwambaye umwenda w'ubururu afite igitabo mu ntoki ni umujyanama w'ubuzima, arimo kuganiriza umugabo n'umugore baje kwisuzumisha kuko batwite.

Inyubako ishaje irimo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi hari igiti kihateye kinini, hari umuntu uhari usutamye wambaye agapira k'amaboko magufi, ijipo kandi imbere ye afashe ijerekani ayitereka mu mabase ahari kandi hari n'imyenda imanitse aho ngaho inyuma ye.

Icyumba kirimo abantu batatu. Umwe wambaye itaburiya, wambaye akarindantoki, ufite agatambaro k'umutuku mu ntoki kandi ufite akuma mu gutwi kavura kandi wambaye ikarita y'akazi, wateguye imisatsi neza, umubyeyi uteruye mwana mu ntoki, ku ruhande hari ishakoshi.

Ivomo ririho abana bagiye batandukanye bamwe bateze ibiganza barimo gukaraba intoki, kandi hari ibasi y'umutuku irimo kujyamo amazi kuri iryo vomo inyuma hari ibyatsi bihari.

Ukuboko gufite igikombe cy'icyatsi kirimo amazi, imbere hari umwana uhagaze wambaye umupira urimo amabara y'umukara n'ikabutura y'umukara, mu ntoki harimo isabune ngo akarabe intoki.

Ivomo ririho umwana w'umuhungu wambaye inkweto zifunguye, ikabutura y'umutu, umupira ufite amabara atandukanye uteze ibiganza ku ivoma urimo kunywa amazi; kandi hasi hari indobo ihateze, hari n'ibyatsi bikikije iryo vomo.

Ivomero ririho abantu bagiye batandukanye. Hari umwana urimo kuvoma, umukuru ari hejuru y'iryo vomo, arimo kumufasha, inyuma y'iryo vomo, hari ibiti bigiye bitandukanye, n'abantu bagiye bahahagaze.

Icyumba kirimo abantu batatu, kirimo gukorerwamo serivisi zijyanye n'ubuvuzi, harimo abantu batatu, abaganga babiri bafite ibikoresho bifashisha muri serivisi z'ubuganga, umurwayi wicaye ku gitanda urimo guhabwa ubuvuzi, kandi hari nibikoresho bike bitandukanye birimo kwifashishwa, undi afite impapuro mu ntoki kugira ngo abashe kwandika amakuru anoze.

Umwana wambaye umupira w'amaboko maremare, ishati mo imbere, wambaye n'ijipo kandi ari kuri kano arimo gukaraba intoki amazi agwa mu kintu giteze kugira ngo adashoka hasi. Inyuma ye hari ibiti hari amazu agiye ahubatse.

Icyumba kirimo abagabo bicaye, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo, ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi urimo kubaganiriza bamuteze amatwi kugira ngo bumve icyo arimo kubabwira.

Ivomero rusange ririho abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abana n'abagore. Hari umugore urimo gupomba amazi, umwana na we uri ku ivomero uteze injerekani, urimo kuvomera injerekani ahari. Inyuma hari itsina n'imibyare zihari.

Abantu batandukanye harimo abagabo, abagore bambaye ingofero z'umweru harimo akabara k'ubururu n'uwambaye ingofero y'icyatsi irimo akabara k'umweru n'abandi batambaye ingofero, imbere yabo hari icyapa cya bandelore, kigaragaza ko ari umunsi Mpuzamahanga wo kurwanya kanseri hari inyubako, hari n'igiti gihari.

Icyumba kirimo abantu bagiye batandukanye harimo uhagaze wambaye itaburiya y'ubururu witeye igitambaro cy'umweru wambaye indorerwamo z'amaso kandi wambaye umupira w'amaboko maremare ufite ibara ry'ubururu urimo gufasha umusaza wambaye ingofero n'ikote n'agapira k'umweru.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, ababyeyi bicaye bateruye abana, hari uhagaze wambaye inkweto zifunze n'ipantaro y'umutuku, n'umugabo wambaye indorerwamo z'amaso, wambaye umupira w'amaboko magufi, ufite isahani mu ntoki ndetse n'igihiko, n'undi mukobwa uri kumwe n' umwana, barimo kutanga indyo yuzuye ku bana.

Umudamu wambaye imboni z'amaso, agapfukamunwa, akarindantoki, ajire, ikanzu, uri mu gufasha umudamu waje gukingiza, iruhande rwabo hari uwambaye ingofero, n'ipantaro, ndetse n'ishati.

Umubyeyi wikoreye indobo, ufite iyindi mu ntoki, ukenyeye igitenge, wambaye ishati y'amaboko magufiya, witeze igitambaro, urimo kwerekeza ahantu hari ibiti kandi harimo n'abantu, hari n'agatanda kahubatse.

Icyumba kirimo abantu babiri umugabo n'umugore bahagaze hagati, yabo harimo ameza ateretseho amapaki agiye atandukanye kandi hari n'etajeri iruhande rw'umugore kandi umugabo na we ari ku ruhande rw'ahantu hubatse amatafari ya ruriba.

Abana babiri b'abakobwa bari kuvoma barimo kuvomera indobo y'ubururu iriho ikirangantegoho cy'mabara atandukanye barayiteruye umwe arashaka gukorera undi. Kuri iryo vomero hari inyubako, kuruhande hari kandi hari ibiti bigiye bitandukanye bihari n'ubutaka butariho ibiti cyangwa ibyatsi.

Inyubako iriho umugabo n'umwana, umugabo wambaye iserengeri y'umukara, ikabutura y'ubururu ufite isabune mu ntoki, imbere ye hari indobo y'ubururu, umwana afite ibirika y'ubururu arimo kumuha amazi ngo akarabe.

Ivomo ririho umugabo ufite ishati irimo amabara atandukanye, ipantaro y'umukara ikenyeje umukandara, yicaye ku ijerekani asizeho amaboko, arimo guseka kandi inyuma ye hari ibiti bihateye, ndetse n'ibyatsi bigiye binyuranye.

Ivomero rusange. Rivomerwaho n'abantu bagiye batandukanye, abagabo n'abagore, hari uri ku ivomero urimo kuvomera amajerekani ari ku murongo, kandi hari urangije kuvoma uteruye amajerekani, ku ruhande hari abari kuri telefoni barimo kureba, hari n'amagare ari aho ngaho ari bubafashe muri uko kuvoma. Kandi hafi aho hari ishyamba rihari kuri iryo vomo.

Umugabo uri ku ivomo, useka, wambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye, ipantaro y'umukara, wicaye ku ijerekani, amaboko yayashyize ku ijerekani, yicaye imbere y'ivomero, inyuma ye hari ibyatsi bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo abaganga babiri bambaye akanozasuku mu mutwe, agapfukamunwa, akarindantoki kandi bifurebye neza, harimo ameza n'ibikoresho, umuganga umwe arimo kurebera umurwayi ikibazo afite wambaye agapira k'umukara, ipanta y'umukara, akagafero k'icyatsi.

Abantu babiri, umwana n'umubyeyi. Umubyeyi witeze agatambaro k'umweru, wambaye ishati y'amaboko magufi kandi irimo amabara atandukanye, umwana wambaye umupira w'amaboko maremare urimo amabara nawe atandukanye uteruye igikoresho kirimo ubugemwe bw'igihingwa cyitwa ikinyomoro abantu bifashisha mu gihe iyo bari barimo kurya.

Inyubako ebyiri zubatse kandi ziteganye, hagati harimo inzu ntoya, harimo umuntu uhagaze kandi hari igipangu cyubakishije ibyuma, mo imbere harimo ahantu hateretse amatafari ya ruriba.

Inyubako yigishirizwamo harimo abana babiri hari umwe wazamuye akaboko atera urutoki akaboko ke agashyira mu gatuza, yambaye umupira n'ishati, ku ruhande rwe hari umwana wambaye ishati urimo kureba kugira ngo asubize icyo arimo kubazwa.

Ivomo rusange, ririho abana batoya bazanye ubujerekani. Barimo kuvomerwa n'umuntu mukuru, urimo gupompa amazi, kandi aha haruguru yaho, hari ibiti birebire kandi harimo imodoka ihahagaze y'umweru.

ivomo ririho amajerekani atatu. Abiri y'umuhondo, imwe y'ubururu ipfundikiye, iyindi iriho akandi kantu ku munwa k'umweru, umwana w'umukobwa uteze ibikanza ku ivomo, uri mu guseka kandi usutamye kandi hirya y'iryo vomo hari ibiti bitandukanye, hari n'igiti cyahaguye.

Imodoka ya rukururana nini ifite ikirangantego kirimo amabara y'ubururu n'inyuguti eshatu z'ubururu, harimo imbere utubara tw'umutuku n'utw'umweru.

Ivomero rusange risize ibara ry'ubururu rifite kano ebyiri, hari umwana uri kuvoma, hari umubyeyi na we uri koze umwana mu ibasi usutamye, hari undi uhagaze uri kumwe n'umwana ufite indobo mu ntoki, inyuma ye hari injerekani kandi n'inyuma y'iryo vomero hari inyubako ihari.

Inyubako irimo abagabo babiri bicaye imbere yabo hari ameza ateguye neza hariho igitambaro cy'umuhondo, hari ibitabo biri ku meza, uducupa twamazi kandi ku ruhande bamanitse ibendera, inyuma yabo hari bandarori iriho amagambo yerekana igikorwa barimo gukora.

Icyumba kirimo abantu batatu, babiri bahagaze, umwe wicaye kandi bose bambaye udupfukamuwa, uwicaye ku ntebe barimo kumutera urushinge, yambaye isaha ku kuboko, afite indorerwamo z'amaso, yazisize ku mwambaro yambaye mu gatuza kandi afite imisatsi yaboshye, yazinze.

Umubyeyi ufite ikibazo cy'uburakari bukabije, wazamuye amazuru afunga iminwa, agira iminkanyari mu maso ye, ureba nabiteze igitambaro gifite amabara atandukanye, amatwi yarapfuye harimo amaherena y'umweru, kandi ku rutugu kwe kw'ibumoso hari umwenda yambaye uriho ibara rishatse kuba umuhondo uteretse cyane.

Abantu batandukanye bahagaze, harimo abagabo n'abagore, bambaye bamwe inifomo y'akazi, ya Polisi kandi nyuma yabo hari bandarore yanditseho amagambo yerekana igikorwa biri...

Icyumba kirimo gukorerwamo ibiganiro, harimo abagore bicaye bahetse abana haru rimbere urimo kubaganiriza hari ameza ariko amazi yo kunywa kandi arimo kubasomera anabasobanurira. Harimo icyapa cya bandelole cyanditseho amagambo kugira ngo abashe kuyasobanukirwa n'igikorwa barimo.

Icyumba kirimo abana batoya b'abanyeshuri, harimo abishimye hari ufite akantu mu ntoki karimo amabara y'umweru, abandi biteze utuntu turimo amabara y'umweru tw'umutuku, ubona bishimye kandi banezerewe.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore bicaye, umugore ufite imisatsi, mikoro, indangururamajwi mu ntoki, kandi ufite ishati irimo amabara agiye atandukanye, umugabo wambaye umukara uriho agatambaro k'ubururu n'ikirango ku mupira we, inyuma yabo hari umusozi uhari ku ruhande rw'umugore hari icyapa cyihamanitse kiriho igishushanyo tugiye dutandukanye.

Inyubako iriho abantu bagiye batandukanye, harimo na Polisi yambaye imyenda y'akazi kandi hari ufite indangururamajwi mu ntoki ze, afite urupapuro arimo kugenda asoma, abandi bafite bandorore yanditseho amagambo y'igikorwa barimo gukora n'ikirangantego cya Polisi.

Icyumba kirimo amagambo yanditse, yandikishijwe mu ibara ry'umukara, ubururu, kandi hari umugabo urimo wicaye, ubona ko arimo kwibaza ibibazo, yambaye ingofero, ahetse igikapu, yambaye ishati, imbere harimo karuvati, inyuma yashyizeho ikote n'amaboko ye, hariho isaha n'udukomo kandi hari n'ibara ry'ubururu riterutsa cyane.

Ibirango bigiye bitandukanye, harimo ikirango cya Polisi y'u Rwanda, kirimo inuma, amashami abiri, hari n'ibirango by'Imiryango Mpuzamahanga bifasha u Rwanda nka Unicef, UNIFEM n'ibindi birango bigiye bitandukanye.

Abadamu babiri bicaye ku ntebe ya karambazi, umwe wambaye ipantaro n'ishati ari kuganiriza wambaye ikanzu ndetse uniteye igitambaro inyuma yabo hari inkwi zumye.

Icyumba kirimo abantu, harimo ababyeyi bateruye abana mu bibero byabo, hari ufite indabyo mu kiganza, hari undi urimo gusaba umwana, umubyeyi akamureba amwitegereje, harimo ibikoresho bijyiye bitandukanye, nk'ameza, amaterefoni n'ibindi bikoresho binyuranye.

Umugabo uhagaze wambaye ishati y'amaboko magufiya, wambaye isaha ku kuboko, ipantaro, inkweto zifunze, ahagaze imbere y'icyapa cya bandarore kigaragaza ko ari ibitaro bya Caraesi i Ndera.

Inyubako iriho abantu harimo umugabo wambaye umupira, ishati, ibindi mu ijosi ku kuboko yagusize hasi akuzamu hejuru y'inyubako hejuru kuri iyo nyubako umeze nk'uri kwiramira kandi hari u umugabo wambaye umwambaro w'umweru, ipantaro umupira yicaye ku igare munsi y'igisharaga...

Umugore uhagaze wambaye imboni z'amaso, ku gutwi hariho amaherena, yambaye ishananete mu ijosi, ku ishati imbere ye ahagaze hari mikoro ndangururamajwi.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore imbere yabo ku meza, hari amazi, hari mikoro ndangururamajwi umugore afite, kandi umugabo yambaye agapfukamunwa, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho amagambo.

Umugabo uhagaze, useka atagaragaza amenyo, wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibipesu bitatu, hepfo yaho hariho utubara tugiye dutandukanye no ku makora kandi inyuma ye hari abandi bantu benshi kandi hari n'icyatsi cyahameze, kiraranda cyane.

Inyubako irimo abantu bicaye n'abandi bahagaze kandi bababaye, umugabo wicaye ufite ku ruhande inkoni n'uducupa tw'amazi.

Banderore yanditseho amagambo agiye atandukanye, ariho n'ikirangantego cyerekana umuryango Mpuzamahanga, umugore wicaye wegamye kandi urimo guseka ubona wishimye.

Abanyeshuri bishimye bazamuye amaboko, hari ibendera n'ibiti bigiye bitandukanye kandi banezerewe baseka.

Umugabo uhagaze uraramye, wambaye ishati irimo amabara agiye atandukanye, wambaye agakomo mu ijosi, umanuye amaboko ndetse n'umwambaro w'umukara hasi, wegamye ku gikuta, ubona yuko hari ikibazo afite k'imitekerereze.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, bari mu mirimo inyuranye, hari umwana uhagaze urimo kurira, wikoreye amaboko wabuze uwamufasha kugira ngo amukemurire ikibazo afite, kandi hari umubyeyi uri hirya ye umuteye umugongo, ufite inkwi mu ntoki ubona ko hari ibyo arangariye bindi, atitaye kuri uwo mwana.

Icyumba kirimo umugore ufite imisatsi myinshi yaboboshye ayitunganyije neza, wunamye, wafashe amaboko ye n'ibiganza abishyira ku mutwe, wambaye umupira w'umweru ufite amaboko maremare. Ubona ko afite ikibazo, atameze neza.

Icyumba cyateguriwemo ibiganiro, harimo abantu batandukanye abagabo n'abagore bicaye bambaye imyenda itandukanye n'abambaye imupira y'imikara iriho ibirango kandi n'amapantaro abari imbere yabo bahicaye harimo umugore umusatzi mwinshi wambaye umwenda urimo amabara atandukanye, umwegereye nawe afite umwenda urimo ibara ry'umweru n'umukara.

Icyumba kirimo abagabo babiri bahagaze, umwe wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara, uri gusuhuza umugabo wambaye imyambaro yacikaguritse ufite imisatsi kandi ubona ko ababaye akeneye ubufasha

Mu cyumba kirimo abantu babiri umugabo numugore, umugabo wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare n'pantaro wahimye amaguru afata amaboko ye ayahuza n'ibiganza bye yifata ku gahanga inkokora ze azihuza amavi arangije yubika umutwe ubona ko ababaye hari undi urimo kumufasha muhumuriza.

Icyumba kirimo umugabo wicaye, wigunze, wambaye agapira k'umukara kandi yafashe ibiganza bye abishyira mu gahanga no mu maso aripfuka, ufite ikibazo k'imitekerereze. Hejuru ye hari amafoto ahamanitse y'ibintu bigiye bitandukanye.

Umugore uhagaze wambaye ikote, umupira mu ijosi yambaye agakomo k'umweru, yikore intebo irimo ibyatsi, iruhande rwe hari ikimera cy'icyatsi kandi afashe igiti mu ntoki.

Abantu bari mu bikorwa byo gutera ibiti kandi hari inyubako zihari, barimo kugenda batera ibyo biti mu busitani bwabo kuko ibiti bigira umumaro mwinshi nko kuyungurura imyuka iba ihumanya ikirere ndetse n'abantu kandi hari n'abandi bahagaze berekana ko icyo gikorwa barimo ari ik'ingirakamaro.

Icyumba kirimo abantu babiri, umugabo n'umwana bambaye imyenda isa kandi bafite akadodo mu ntoki zabo bashyize mu kanwa, ubona yuko hari ikintu barimo kwitegereza bareba.

Umugabo uhagaze, wambaye umupira imbere, inyuma yashyizeho agakote gafunguye, ufite umusatsi, ufite ubwanwa bwinshi, kandi urimo guseka wishimye.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, barimo kwerekeza ahantu hubatse igisharagati, kandi hari banderoli ihamanitse yerekana ibikorwa birimo kuhakorerwa. Inyuma yaho hari ibiti, hari amajaride kandi hari n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba kirimo umugabo useka, wafashe intoki ze afite akagozi k'umweru mu ntoki, agashyira mu menyo, yambaye umupira w'umweru, ubona yuko yishimye kandi aguwe neza.

Inyubako yubatse neza ifite isuku irimo urumuri rwerurutse, harimo ibyuma bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga nk'imashini ya mudasobwa, ibitanda n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo utubati babikamo ibikoresho, hari n'aho umuntu akarabira.

Icyumba kirimo abagabo babiri bambaye imyambaro y'umukara harimo akabara k'umweru, umwe urimo gukora isuku y'amenyo imbere yabo harimo impapuro umuntu yifashisha arimo gukora isuku.

Icyumba kirimo abantu babiri bahuje urugwiro, umwana n'umubyeyi, bafite imisatsi myinshi bombi, bambaye imyenda isa udusengeri tw'umweru, bafite uburoso mu ntoki kandi bagiye gukora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara zigiye zitandukanye zo mu kanwa.

Icyumba kirimo ibikoresho umuntu yifashisha akora isuku, umugabo wicaye ku ntebe yegamye, yishimye kandi ibiganza bye abifatanishije intoki.

Inyubako igeretse kabiri kuri iyo nyubako hari amagambo yanditseho yerekana uko yitwa kandi ifite igipangu cyubakishije amabuye, hejuru cyubakishwa ibyuma kandi hariho ibiti bijya bitandukanye kandi hanze y'aho haratunganyijwe neza.

Abana bahagaze bambaye imyenda y'ubururu babiri, uri inyuma yabo yambaye umwambaro w'umweru kandi babiri bafite uburoso bw'amenyo mu kanwa barimo gukora isuku, undi nawe yabufashe mu kuboko arabuzamura.

Umwana wambaye ikanzu irimo utuba tw'umweru mo imbere harimo umupira w'umweru, mu ntoki afite uburoso abushyira mu kanwa, arimo gukora isuku y'amenyo, akaba inyuma ye hari ibara ry'ubururu.

Icyumba kirimo umwana mutoya, urimo gusuzumwa mu kanwa kandi intoki n'ibiganza birimo kumusuzuma byambaye akarindantoki, kandi harimo, hari ibara riri muri icyo cyumba ry'umutuku, igicu kiteyutse cyane.

Icyumba gikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, umurwayi yicaye ku ntebe aregamiye ari kureba muganga mu maso amwereka, muganga na we yafashe akarindantoki azana ibikoresho kugira ngo amusobanurire iby'ubuvuzi bw'amenyo uko buri.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore, bicaye bishimye barebana mu maso, kandi imbere yabo hari ameza ariho ibyo kurya, umugabo ufite icyuma urimo gukata ibyo agiye kurya, umugore ufite igihiko, urimo gushyira mu kanwa icyo kurya.

Abantu bicaye barimo kuganira, harimo umugabo uteruye umwana, ababyeyi, abandi bicaye mu bya bihari, hari ibiti bishinze aho byanitseho imyenda kandi inyuma yaho hari inyubako ihari.

Umugabo wicaye yishimye yambaye amataratara, ishati y'umutuku, umugore ufite imisatsi miremire n'ishati y'ubururu, ufite mu ntoki agakoresho k'ikoranabuhanga k'ubuvuzi.

Icyumba kirimo umugabo ukuze wambaye indorerwamo z'amaso, kandi yambaye ishati inyuma yashyizeho agapira k'amaboko maremare, imbere ye hari igitabo afite ikaramu arimo kwandika.

Abantu batandukanye, harimo umusaza ukuze, umugabo ukiri mutoya, abadamu babiri n'abana bishimye baguwe neza banezerewe, inyuma yabo hari ibimera bigiye bitandukanye, birimo kubaha akayaga keza karimo kubahumekeraho.

Inyubako irimo abantu, abagabo, abagore n'umwana, bicaye banezerewe ubona ko bahuje urugwiro kandi inyuma yabo hari uduti tuhateye kandi hejuru amatara arimo kwaka, hari amabara agiye atandukanye.

Umurima w'icyayi, urimo abagore barimo gusarura icyayi, ubona bishimye, bahuje urugwiro barimo gushyira mu ntebo zabo.

Abagabo babiri bari mu cyumba, bombi bambaye imipira y'amaboko magufi, kandi bose bafashe akantu mu ntoki gafite ibara ry'umuhondo, inyuma y'umwe hari akabati kabikwamo ibikoresho bigiye binyuranye, kandi hejuru y'ako kabati hateretse akandi kantu karimo ururabyo, ubona ko ari umutako.

Icyumba kirimo abantu babiri b'igitsina gore, umwe ukuze yicaye ku ntebe, yateze agatambaro k'umukara karimo amabara, wambaye indererwamo z'amaso, wambaye umupira w'amaboko maremare, undi yazanye amaboko ye ayashinga ku ntebe, arangije ayahuza n'ay'undi arimo kumuganiriza amubaza uko yumva ameze.

Icyumba kirimo abadamu batatu bishimye umwe ufite imisatsi y'umukara undi afite imisatsi y'umweru n'undi uhagaze imbere yabo, bafite amakarita mu ntoki.

Inyubako irimo abagore babiri harimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imbuto zo kurya, umugore ufite ikirahure mu ntoki arimo kunywa, ku rukuta hari isaha, hari n'ibindi bigiye bitandukanye nk'utubati.

Icyumba kirimo umugabo wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare wayikunje, yafashe akaboko ke agashyira mu gahanga ubona yuko ameze nk'usinziriye, utameze neza kandi ku meza hari ibikoresho bigiye bitandukanye.

Umubyeyi wicaye mu busitani butunganije neza, kandi ari mu myitozo ngororangingo. Yashashe akantu yicaraho, arangije arambya amaguru ye, afata amaboko ye ayashyira ku maguru, kandi yambaye agapira n'ipantaro, kandi umusatsi we ukoze neza.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore. Umugabo wambaye umupira imbere inyuma ya ishati y'amaboko maremare, wasize umutwe ku ku mugore, umugore na we wambaye ikote n'umupira mo imbere, ufite amabara y'umweru n'utubara tw'umukara turimo, ufite shanete kandi wambaye indorerwamo z'amaso.

Ababyeyi bicaye bakuze bambaye ibitambaro bigiye bitandukanye kandi harimo uwambaye ingofero, bari ahantu barimo kuganirizwa cyangwa kubwirwa amakuru agiye atandukanye, batumbiriye kugira ngo barusheho kumenya no gusobanukirwa ibiganiro barimo guhabwa.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore bakuze umugabo wicaye mu ntebe ufite ikirahure uri mu kunywa amazi, umugore amuhagaze imbere arimo kumwitegereza uko arimo kunywa amazi.

Umubyeyi wambaye agakomo ku maboko, mu ijosi yambayemo urunigi rw'amabara atandukanye, yiteye umwitero, yambaye agapira kagufiya kandi afite mikoro ndangururamajwi mu ntoki ye, ahagaze ku ruhimbi arimo kuvuga, inyuma ye hari amazu ahubatse, hari amamodoka kandi hari n'ubusitani.

Inyubako imbere yayo hari abantu bahari harimo abagore bambaye imyenda y'umweru amajipo y'umukara inkweto zifunze harimo uwambaye amambiri arimo wambaye bodaboda hano yari ari kuhakora iki z'umukara harimo uwambaye umupira w'ubururu uteze agatambaro ka move harimo umugabo wambaye imyenda yumweru n'ingofero(..)

Inyubako irimo abagabo babiri, umwe arimo kumuyobora bamufatishije akaboko mu bitugu, kandi yambaye agapfukamunwa na karuvati n'ikote amuyoboye.

Icyumba kirimo abantu bicaye n'undi uhahagaze. Abice bari mu biganiro bitandukanye, bahuje urugwiro. ku meza yabo hariho ibyo barimo kwifashisha, nk'ibyo kurya kandi hari uhagaze kugira ngo abashe kubaha serivisi, abateze amatwi, yambaye rinete, afite ikarita y'akazi mu ijosi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nka matera n'imifariso, harimo umugabo wambaye indorogoma z'amaso wicaye mu igare ry'ababana n'ubumuga, wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite akana mu ntoki kandi umwana na we afite akana mu n'umusatsi, wambaye umupira w'amaboko maremare, wicaye kandi ahinnye akaguru kuri atora.

Abagabo babiri bari mu gahanda kubatse, barimo kuganira bahuje urugwiro, bafatanye amaboko ku bitugu, kandi umwe wambaye agakomo n'ishati y'amoboko maremare ipantaro y'umukara n'inkweto zifunze n'uwambaye agapira k'amaboko magufi n'ipantaro n'inkweto zifunze, inyuma yabo hari ibiti bibakikije kandi ku ruhande hari ibyatsi bikiri bito.

Abantu babiri, umwe wicaye ku ntebe, ari umugabo wambaye ishati y'ubururu, wambaye agapfukamunwa, ku gahanga hariho ikibyimba; umuri imbere arimo kumufasha amufungurira ishati, umukobwa wambaye agapfukamunwa, ufite akantu mu gutwi, afite imisatsi iboshye kandi wambaye umupira.

Icyumba kirimo umugore uhagaze uri gukora imyitozo ngororangingo, ufite akantu mu ntoki kandi yambaye umupira w'umweru, inyuma ikote urimo amabara y'umukara, umutuku ufite imisatsi irimo imvi kandi urimo guseka wishimye.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore, umugabo wicaye ku gitanda, ukuze wambaye indorerwamo z'amaso, ishati y'amaboko maremare, ipantaro, ushaka guhaguruka ku gitanda, urimo gufashwa n'umugore wambaye itabuririya, ufite imisatsi miremire kandi muri icyo cyumba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Hamanitse na supanete muri icyo cyumba.

Inyubako irimo umugabo n'umugore bishimye baseka, bicaye bari kumeza barimo kurya ibiryo by'ubwoko butandukanye.

Abantu bicaye ari benshi harimo abagabo n'abagore barimo kuganirizwa kandi hari ibiti bifite amabara y'umuhondo.

Umubyeyi w'umupapa ukuze, ufite imisatsi irimo imvi, wambaye ishati irimo amabara atandukanye, ateruye umwana mutoya, ufite igikinisho mu ntoki kandi ukuboko k'umwana kuri mu gatuza k'uwo mubyeyi kandi izuru ry'uwo mwana n'umubyeyi babihuje.

Icyumba kirimo abantu babiri, umusaza wicaye ukuze wambaye umupira w'amaboko maremare, inyuma yashyizeho agakote gato kandi witeye igitambaro ku maguru ye, umwana umufashe akaboko w'umukobwa urimo kumuganiriza ubona yuko amuteze amatwi ibyo arimo kumubwira.

Icyumba kirimo umugabo ukuze, wambaye indorerwamo z'amaso, ufite ikaramu mu ntoki, wifashe ku kananwa, wambaye ishati kandi yicaye, imbere ye hari igitabo yashinze, yari arimo gusoma anandika. Ariko bigaragara ko yananiwe.

Icyumba kirimo umugabo n'umugore bakuze, umugabo ufite telefone mu ntoki ari kwereka umugore, umugore ufite urupapuro mu ntoki, imbere yabo hari ikirahure kirimo amazi n'uducupa tubiri n'akandi kantu kari imbere yabo ku meza.

Umugabo n'umwana bari mu kibuga barimo gukina umupira w'amaboko, umugabo wambaye umupira yakunje ku maboko, ikabutura, inkweto zifunze zirimo amasogisi y'umweru, umwana wambaye umupira w'umweru imbere na gakote n'ipantaro.

Icyumba kirimo abantu babiri b'igitsina gore, urimo gukora imyitozo ngororangingo urambuye amaboko ayateze kandi arimo gufashwa n'undi wafashe amaboko ye ayashyira ku kuboko kwe, arimo kumwereka uko agomba gukora iyo myitozo.

Inyubako irimo umugabo n'umugore, umugore wambaye umupira w'umukara ipantaro y'umukara, wafunze imisatsi neza, ufashe umupaka ku rutugu n'akaboko arimo kumuyobora bigaragara ko ari...

Banderole iriho amagambo agiye atandukanye ashushanyijeho ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi ryerekana icyo icyo kirango gisobanuye n'icyo gikora.

Banderore yanditseho amagambo agiye atandukanye ayandikishije ibara ry'ubururu mu ibara ry'umutuku, kandi hari ikirango kihashushanyije mu ibara ry'ubururu n'umutuku, harimo n'udukoni tw'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, harimo ababyinnyi kandi nyuma y'abo babyinnyi, hari bandorore yanditseho amagambo yerekana igikorwa cyabateranyirije aho, abandi baricaye babareba kandi bari mu kubasusurutsa.

Inyubako imbere yayo hahagaze abagore bafite utuntu mu biganza bazamuye, kandi dushushanyijeho umuntu hejuru, kandi bambaye imipira igiye isa, uretse umuntu umwe urimo utawambaye hasi bambaye amapantaro, inkweto zigiye zifunguye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiya bitandukanye by'ikoranabuhanga nk'imashini ya mudasobwa, harimo abantu bambaye bifurebye mu mutwe udupfukamunwa, uturindantoki bari mu bushakashatsi bw'icyo barimo gukora.

Abantu bari mu mirimo igiye itandukanye. Harimo umuhinzi, harimo abubatsi, abaganga ndetse n'abandi bari mu mirimo inyuranye. Kandi ku ruhande rwabo hari banderole iriho amagambo yanditse kandi ariho n'ibirango bigiye binyuranye.

cyumba kirimo abantu batandukanye abagabo n'abagore abice n'abahagaze bafite amakaderi mu ntoki yerekana igikorwa barimo aho ngaho kandi imbere yabo hari ameza ateguye neza n'intebe zikikije ayo meza.

Abantu babiri bifurebye neza. Bambaye udupfukamunwa, uturindantoki kandi hosse bikwije. Umwe afite igikoresho mu ntoki, rimo kwifashisha kugira ngo abashe gukora imirimo ye neza, uko yabigennye cyangwa yabishatse.

Banderori yanditseho amagambo agiye atandukanye kandi ari mu ibara ry'umweru, hariho umweru, umutuku, ubururu butererutse cyane.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abicaye n'undi uhagaze, uri inyuma yabo wambaye ijire kandi hari abambaye uturindantoki no mu ijosi bambaye udushumi turiho ikarita y'akazi, kandi barimo gutanga imiti, barimo kuyiha abarwayi kugira ngo babavure.

Umugore ufite imisatsi miremire yaboshye, ufite iherena ku gutwi uhagaze kandi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse hari n'amabara atandukanye harimo n'umweru.

Ubusitani buteyemo igiti kirekire, hari abantu bahari, uhagaze n'abandi bunamye, hari umuntu uryamye ku ngobyi y'imbangukiragutabara bifashisha mu gihe havutse ikibazo kandi hari abarimo kureba ibikoresho bifashisha kugira ngo babashe gutabara uwo muntu.

Icyumba kirimo uruganiriro rw'abari n'abategarugori, imbere yabo hari ameza ahari kandi ateguye neza, hari mudasobwa, hari n'ibitabo biri imbere y'ubumwe ndetse ubona y'uko bakurikiye urimo kubaha ibiganiro.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu buvuzi, harimo abaganga bifurebye mu mutwe, bambaye udupfukamunwa, kandi bambaye imyenda y'akazi, hari abarwayi baryamye ku bitanda barimo gufashwa mu buvuzi.

Icyumba kirimo abantu batandukanye bicaye, Barimo kuganira mbere yabo hari abantu barimo kubaha ibiganiro kandi nyuma yabo hari ibyapa bigiye bitandukanye byanditseho amagambo agiye atandukanye y'ibikorwa bagiye barimo kandi hari n'ibyapa by'imiryango mpuzamahanga.

Inyubako yubatse neza, hejuru kuri iyo nyubako hari amagambo yerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako, mu ibaraza harimo umugabo uhahagaze, inyuma y'iyo nyubako hari ibicu, kandi kuri iyo nyubako harimo n'ubusitani.

Inyubako zubatse neza kandi muri izo nyubako, harimo jaride iteye neza kandi harimo utuyira twubatse n'uduhanda, hari urukuta rwubakishijwe amabuye kugira ngo ribashe kurinda iyo nyubako.

Icyumba kirimo abantu babiri kirimo igitanda, matera, hariho umurwayi ukiryamyeho wiyoroshe, ufite itaburiya y'umweru ufite akarindasuku wambaye indorerwamo z'amaso amuri iruhande urimo kumufasha kandi hari na supanete icyo cyumba kirimo amabara agiye atandukanye arimo agiye arimo umuhondo.

Inyubako yubatse neza, ifite n'umuhanda ujya kuri iyo nyubako kandi ifite ubusitani bwiza n'ibigega biri kuri iyo nyubako kandi yubakishije amatafari ya mpunyu, hari amagambo yanditseho yerekana ibikorwa bikorerwa kuri iyo nyubako, hari ikizimyamyoto mu gihe havutse inkongi y'umuriro kandi inyuma y'iyo nyubako hari iyindi ihari.

Icyumba kirimo umugore wambaye itaburiya y'umweru ufite imisatsi miremire wambaye agapfukamunwa wambaye indorerwamo z'amaso imbere ye hari imashini y'ikoranabuhanga.

Icyumba gikorerwamo imirimo y'ubuvuzi, harimo abarwayi baryamye ku bitanda barimo kwitabwaho n'abaforomokazi, bambaye agapfukamunwa, uturindantoki, barimo gukora imirimo bashinzwe.

Inyubako yubatse neza, iriho amagambo hejuru yerekana ibikorerwa muri iyo nyubako, ifite amarangi y'umuhondo, ifite amabati y'ubururu; inyuma yayo hari ibiti, hari abantu bicaye mu ibaraza, abakuru n'abana kandi hashashe amapave neza.

Inyubako yubatse neza ifite inkingi zifasha iyo nyubako zisakaye neza isize amarangi, hari iy'indi iri ku ruhande wayo kandi imbere yayo yiyo nyubako hari ibyapa bibiri kimwe kinini n'igitoya cyanditseho amabwiriza cyangwa imirimo ikorerwa muri izo nyubako.

Inyubako yubatse neza ifite amabara y'umuhondo ndetse ku madirishya yo hasi hariho ibara ry'umweru, kandi kuri iyo nyubako imbere yayo hari jaride, kandi kuri iyo nyubako handitseho amagambo agaragaza imirimo n'ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako.

Inyubako yubatse neza kandi ifite isuku muri iyo nyubako hashushanyijemo ibishushanyo by'inyamaswa bigaragaza ubwiza bwaho, harimo amazu agiye ashoreranye kandi harimo intebe abantu bicaramo kandi hari n'ameza abantu baterekaho ibintu baba bafite.

inyubako yubatswe ifite ibirango n yanditseho yerekana imirimo ikore muri iyo nyubako kandi harimo abantu babakamo imbere bahagaze bamwe barimo gutanga serivisi n'abanrimo kuziha kandi imbuga yayo ishash neza baba bavuga inyubako hari'ibinyabiziga hari n'ababyicayeho inyuma y'iyo nyubako hari ishyamba rihakikije

Inyubako ifite ubusitani kandi igeretse, ifite amarangi agiye atandukanye, iriho ikirango cyerekana yuko hari imirimo ikorerwa muri iyo nyubako, kandi muri iyo nyubako harimo abantu bagiye batandukanye barimo.

Inyubako yubakishije amatafari ya ruriba, kandi ifite inzugi zikoresheje ibyuma, kandi hejuru y'iyo nyubako hari ibyapa byerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako, kandi imbere y'iyo nyubako, hari abantu bahari, harimo umugabo n'abagore bahahagaze.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo intebe bicaramo, imashini ya mudasobwa ndetse n'ameza.

Inyubako yubatse neza iri mu busitani hari abantu babiri bayirimo, hari uri gusohoka muri iyo nyubako undi uri mu busitani wegamiye icyuma kihashinze, kandi kuri iyo nyubako hari amagambo yanditseho agaragaza igikorwa kihakorerwa.

Inyubako yubatse neza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitanda, amarido, hari umugore urimo kwinjira ajya muri iyo nyubako, wambaye imyenda y'ubururu, ufite agakomo ku kaboko n'imisatsi yaboshye irambuye, inyuma mu mufuka harimo telefone.

Inyubako yubatse neza ifite isuku, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu mikino ngororangingo ku bantu bamwe na bamwe baba barwaye indwara zitandukanye nk'imipiswi, imigongo ibyo byose birabafasha.

Inyubako yubatse neza, kuri iyo nyubako hari amagambo yanditseho agaragaza imirimo ikorerwa muri iyo nyubako, imbere y'iyo nyubako hari abantu hatandukanye, abagabo n'abagore ubona y'uko hari icyo barimo kwitegereza.

inyubako yubatse neza ifite irangi ry ikigina idirishya rifite ibaragi ry'cyatsi hejuru irangi ry'cyatsi ku mabati kandi aho winjira hejuru ku muryango hari amagambo yerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako hari icyapa kimanitse kukuta'iyo nyubako hirya y'aho ari akayerimo umugabo wamba agapfukamunwa n'ita n'ipantaro inyuma yaho hari iyo nzu iharihubatswe

Inyubako yubatse neza, yubakishije amakoro, hagati y'inyubako n'ubusitani harimo umuhanda, harimo abantu babiri bari mu muhanda, kandi mu busitani harimo ibendera rihamanitse.

Inyubako yubatse neza, muri iyo nyubako harimo abantu, imodoka kandi igipangu cy'iyo nyubako hari icyapa kihari kiriho amagambo kandi imbere y'iyo nyubako hari imodoka.

Icyumba gikorerwamo imirimo y'ubuvuzi, harimo umukobwa wambaye itaburiya y'umweru, urimo akabara ka move kandi wunamye, wambaye akarindantoki ufite agakomo ku kuboko kwe, urimo kumva ikintu arimo gushaka kumenya.

Inyubako yubatse neza, iriho abantu bagiye batandukanye, bari muri izo nyubako kandi amarembo yayo arakinguye, kuri iyo nyubako hari ikigega gifata amazi, inyubako yubakishije amatafari ya mbunyu, ifite amabati y'ubururu, ifite inzugi ndetse n'amarange y'umweru hasi y'umukara kandi hari icyapa cyerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako.

Icyumba kirimo abantu bajye batandukanye kandi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari abicaye hari undi uhagaze kandi hari icyapa kiriho amagambo arimo kubereka ibyo barimo kwigishwa.

Inyubako yubatswe, iriho ibirango bigiye bitandukanye byerekana imirimo irimo gukorerwa muri iyo nyubako. Hari urujya n'uruza rw'abantu. Hanze yaho hari umuntu uri ku igare uhetswe kandi ufite n'indobo ayiteretse hasi.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ameza ariho imashini y'ikoranabuhanga, yifashishwa mu kubika amakuru agiye atandukanye, intebe bicaraho, ibitanda baryamaho, ubusanduku bubikwamo ibikoresho bigiye bitandukanye.

Icyumba cyagenewe abagwayi, kirimo ibitanda n'ibindi bikoresho nk'ububati bubasha kubika imiti cyangwa ibindi bikoresho abarwayi bakoresha, kandi abarwayi baryamye ku bitanda bahawe imiti kugira ngo babashe gukomeza kwitabwaho n'abaganga.

Inyubako y'umwami Faisal imbere yayo hari amabendera, hari ibiti, hari abantu bahagaze b'igitsina gore babiri bafite amashakoshe kandi harimo abambaye imyenda y'umweru harimo uwambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo anateze igitambaro.

Inyubako yubatse, ifite imbuga ishashe neza, hahagaze abagabo n'abagore, bambaye udupfukamunwa, bafite ibikoresho binyuranye mu ntoki zabo, harimo ufite inkoni, yifashisha mu babana n'ubumuga bw'amaso, kandi iyo nyubako yubakishije amatafari ya mpunyu, ifite amarangi anyuranye, yanditseho amagambo yerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako, hirya y'inyubako hari ayandi mazu ahari, kandi arimo jaride.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ameza, intebe bicaraho, ibitanda baryamaho, mudasobwa ku rukuta rwaho hamanitse isaha.

Inyubako yubakishije amatafari, hariho urugi rufunze kandi hariho icyapa kerekana ko bitemewe kuhinjira, hejuru yaho handitseho amagambo yerekana igikorwa cyakorerwaga muri iyo nyubako.

Inyubako yubatse neza isize amarange agiye atandukanye kandi harimo ibyuma by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye byifashishwa mu mikino ngororangingo.

Iyonyubako yubatse neza i koreye amasuku isize amarangi rya atandukanye muri iyo nyubako harimo ibyumba birimo gukorerwamo amaserevisi agiye atandukanye buri cyumba hejuru yacyo hari ikimenyetso cyerekana ko hari imirimo ihakorerwa kandi harimo imodoka harimo n'amajaride atunganyije neza.

Inyubako irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, umuntu yifashisha mu gukora imyitozo ngororangingo bimushoboza kumurinda indwara zigiye zitandukanye z'umubiri.

Inyubako yubatse neza kandi ifite isoko, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororangingo, kandi kuri icyo gikuta cy'iyo nzu, hariho isaha yerekana igihe umuntu ashobora gukoresha.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitanda, matera, amashuka afite ibara ry'icyatsi n'amarido afite ibara rishaka kwereruka kandi hariho n'itara ririmo kwaka.

Inyubako igeretse irimo ibintu bigiye bitandukanye, hamanitswe ibendera, harimo ubusitani kandi harimo n'imipaka, iruhande rw'iyo nyubako hirya hari ibiti birebire kandi hari n'ikirango kerekana ibikorwa bikorerwa muri iyo nyubako.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo mudasobwa icometse kandi ku rukuta hari isaha ihamanitse yifashishwa mu kureba igihe.

Inyubako yubatse neza ifite ubusitani harimo igiti kirekire gifite amashami agiye agaye, ashinze muri iyo nyubako, bandorori iriho amagambo agiye atandukanye harimo amabara y'umukara, ay'umutuku, ay'umuhondo, ay'ubururu.

Inyubako yubatse neza, iriho amagambo yerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako, hari ayandi magambo yandikishije inyuguti z'umweru kandi yubakishije ikidara cy'imbaho.

Inyubako iriho abantu bagiye batandukanye abagabo n'abagore, hari ibyapa bihamanitse byerekana imirimo ihakorerwa hari ubusitani buhari hari imodoka zaparitse kandi hari umugabo uhagaze imbere ya bariyeri kugira ngo abashe guha uburenganzira ugomba kwinjira cyangwa gusohoroka.

Icyapa kimenyekanisha abantu yuko hari imirimo ikorerwa mu nyubako zirimo imbere, harimo ibiti by'ubusitani, harimo abantu, harimo amazu agiye yubatse agiye atandukanye akorerwamo imirimo ajyanye n'ubuvuzi.

Inyubako yubatse neza irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ameza ateguye neza kandi harimo televiziyo yifashishwa, harimo ububati bushyirwamo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi bibasha gukoreshwa muri iyo nyubako.

Abagore bahagaze bambaye imyambaro isa y'ubururu, kandi bambaye agapfukamunwa, ndetse harimo uwambaye ikarita y'akazi, kandi hejuru yabo hari amagambo yanditseho yerekana imirimo ikorerwa aho hantu bahagaze.

Inyubako zubatsemo zitandukanye, harimo n'amajaride. Harimo n'insina ndende kandi muri iyo nyubako, harimo umuhanda utunganyije. Harimo abantu batatu barimo kuwugendamo, umugabo ufashe umwana mu kuboko kandi mu ijosi yiteye igitenge, imbere yabo hari umwana wambaye ishati, ikote, ipantaro, inkweto zifunguye, n'ibasi y'umukara mu ntoki.

Inyubako iriho abantu babiri, isize amabara y'umuhondo, iriho kizimya myoto, hejuru hari amagambo yerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako kandi yubakishije amatafari ya mpunyu.

Inyubako yubatse neza. irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa kwa muganga. harimo ameza abaje mu mbaho, hari ibitanda n'utwuma duhagaze twifashishwa, inzitiramibu, amarido, kandi harimo abantu bahagaze muri iyo nyubako bambaye imyenda y'ubururu ,kandi bambaye agapfukamunwa.

Abagore batatu bicaye, umwe wambaye imyambaro isa, wambaye indorerwamo z'amaso, agapfukamuwa yakamanuye, yambaye uturindantoki, isaha ku kuboko umwe yamusizeho igikoresho yifashisha arimo gupima abantu, umukecuru uhari arimo kwitegereza no kureba kandi inyuma yabo hari inkoni ndetse n'ibiti bihateye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kuvura cyangwa mu gukoreshwa muri serivisi zitandukanye, hacometsemo imashini za mudasobwa hari igitanda umuntu aryamaho hari irido bakoresha mu gihe barimo guha umuntu serivise.

Inyubako yubatse neza hari ikirango kiri hejuru kuri iyo nyubako cyerekana imirimo ikorwa muri iyo nyubako, hanze hari amabendera biramanitse kandi hashashe neza, ifite amabara ay'umukara n'ay'ikigina, kandi mu muryango umuntu uhahagaze hanze yaho hari imitako ihari.

Inyubako yubatswe neza ifite ibirango byerekana imirimo ikorerwa muri iyo nyubako iteye amarangige atandukanye kandi muri iyo nyubako harimo umuntu wicaye kandi hanze hari imodoka ihari, hari igishushanyo gihagaze cy'umuntu kandi hejuru y'iyo nyubako hubatse ibyuma birinda abantu kuba bagira impanuka kandi hari n'intebe iri hanze abantu baza bakicaraho.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, bikoreshwa mu buvuzi. Harimo abantu batatu, umugabo n'umugore n'umwana. Umugore n'umugabo bambaye udupfukamunwa kandi umwana bamutunze akuma gasuzuma kugira ngo bamenye uburwayi afite.

Icyumba kirimo umugore uri mu myitozo ngororangingo uryamye hasi, wambaye ipantaro y'umukara, isengeri y'umukara, ukuguru kumwe yakurambuye ukundi arakuzamura araguhina, afata amaboko ye ahuza ibiganza, ashyira ku ivi akomeza kuryama hasi.

Icyumba kirimo umugore urimo gukora imyitozo ngororangingo, wambaye inkweto zifunze washyize akaguru hasi akandi akazamuye, yambaye ikabutura n'isengeri, afite imisatsi miremire amaboko ye afashe ku cyuma kandi hasi hari ibara ry'icyatsi.

Ibikoresho umuntu akoresha ari mu myitozo ngororamubiri. Nk'umupira mu bakinisha amaguru, umupira ukinishwa amaboko wa baskete, hari n'utundi dukinisho umuntu yakwifashisha ari mu myitozo ngororangingo.

Abakinnyi b'imikino igiye itandukanye, harimo abakinnyi barimo gukina umukino wa basikete, umukino wa voriboro, n'umukino w'umupira w'amaguru harimo urimo kunywa amazi mu gacupa, hari urimo kunywa amazi muri gurude, kandi ubona bishimye banezerewe.

Amaguru y'umuntu wambaye ikabutura y'umukara, harimo ibara ry'ikijiji kw'ivi, akaba yakomeretse, bakoresheje ibimenyetso by'ibara ryicyatsi n'icyikije.

Inyubako irimo kubakwa iriho abantu bari mu mirimo yo kubaka, kandi hejuru hari amagambo yerekana inyubako ikizakorerwamo.

Inkweto z'umukara ndende kandi zambarwa n'igitsina gabo zirimo imishumi kandi zifite icyapa kirimo inyuguti yandikishije umukara.

Ubucupa buri ku murongo kandi bupfundikiye neza, harimo ibara ry'umuhondo ryererutse kandi hariho amagambo yerekana umumaro w'ubwo bucupa, icyo bukora.

Banderore, iriho, abantu, umwe uhagatse akaguru, undi uteze amaboko, akaguru akamanutse, undi ufashe ku ntebe, undi urimo kugenda kandi hari amabara, ari kuri iyo banderore, umuhondo n'umukara, hari inyuguti zanditse, mu ibara ry'umweru n'umukara.

Ibikoresho bigiye bitandukanye umuntu yifashisha mu buzima bwa buri munsi bwe bw'isuku, harimo umukasi, umuti w'amenyo, amavuta yo kwisiga n'ibindi bigiye bitandukanye bihari.

Icyumba kirimo abagabo babiri bari mu myitozo ngororangingo umwe wambaye imyenda y'umukara mu gatuza harimo ibara ry'umweru n'ipantaro harimo ibara ry'umweru rimanutse, inkweto zifunze undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'ubururu.

Inyubako irimo umugore n'umugabo bari gukora imyitozo ngororangingo, Harimo ameza ateretsweho igikoresho gifite ibara ry'ubururu n'umweru munsi y'ayo meza hariho imyambaro y'umweru munsi yayo ariho igwijisha.

Icyumba kirimo umugabo uhagaze, wambaye akarindantoki, itaburiya y'umweru, iriho hejuru akabara k'umuka, ufite akantu k'umutuku mu ntoki, harimo ibyuma bitandukanye kandi muri iyo nyubako harimo kizimyamwoto irinda inkongi iyo nyubako.

Icyuma gikorerwamo imyitozo ngororangingo, kirimo ibyuma by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye kandi harimo abagabo babiri, umwe uryamye ku gitanda wubitse inda wamanuye amaboko kuri icyo gitanda. Undi uhagaze wambaye ingofero wasize akaboko ke kuri icyo gitanda, akandi yakifatishijeho.

Umugore uhagaze wambaye isengeri, ufite imisatsi miremire, ufite icupa mu ntoki urimo kunywa amazi, uri mu myitozo ngororangingo kugira ngo akomeze imyitozo neza.

Icyumba kirimo umugabo ushinze ivi wambaye iserengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, bigaragara ko arimo gukora imyitozo ngororangingo.

Ibiribwa by'amoko atandukanye n'intoryi, karoti, pome uruboga rw'ishu kandi hari umugabo uri mu myitozo ngororarangingo, wambaye isengeri n'ikabutura n'inkweto zifunze kandi ufite imisatsi ikaraze miremire.

Ibiribwa bigiye bitandukanye harimo icunga rihishije, imineke, avoka, inanasi, ubunyobwa byifashishwa mu kurya kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo umugabo uri mu myitozo ngororangingo, wambaye inkweto zifunze, ipantaro irimo ibara, iserengeri ufite umugozi nyakiramajwi mu gutwi, wafashe amaboko ye ayashyira ku ivi arishinze, ukuguru yagusize inyuma.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo, hari agatambaro kariho ibikoresho umuntu akoresha mu gihe ari muri siporo kandi hari agapipe kariho imboga ahantu bateka, hari isahane iriho imineke n'izindi mbuto umuntu yifashisha arimo kurya, hari iyindi sahane iriho amagi, isabune ndetse n'ubunyobwa n'inyama.

Icyumba kirimo umugabo uri mu myitozo ngororangingo. Yabisikanyije amaboko, kandi yambaye iserengeri, afite ubwanwa, ari mu myitozo ngororangingo z'umubiri.

Icyumba kirimo abagabo babiri, umwe uhagaze ku ruhande rw'uri gukora imyitozo ngororangingo, upfukamishije akaguru ke akandi agahagaritse, kandi afite ibikoresho arimo kwifashisha mu ntoki mu myitozo ye. Hari undi umuhagaze ku ruhande kandi umufasheho.

Umugabo ufite bandana wambaye isaha y'umukara ari gufasha umuntu wagize ikibazo cy'imvune y'akaguru wambaye urukweto rufunze kandi hari n'umukatsi iruhande rwe ku gitanda yicayeho ndetse na bandana.

Inyubako yubatse neza kandi ifite Isuku harimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga kandi harimo ububati bubikwamo ibikoresho, intebe abantu bicaramo harimo ibitanda bigezweho ndetse n'ibindi bikoresho umuntu yakenera kwifashisha muri iyo nyubako bigiye binyuranye birimo.

Icyumba kirimo umugore uri mu myitozo ngorora ngingo, yafashe akaboko ke agashyira ku birenge, akandi agashya mu mugongo yunamye.

Imiti iri mu bikoresho bigiye bitandukanye hari iri mu bupaki, iri mu bucupa bukurikiranye neza, iri mu bindi bikoresho kandi hari n'uturindantoki umuntu yikoresha mu gihe arimo kuvura cyangwa agiye guhura n'umurwayi.

Icyumba kirimo umugabo wicaye, yambaye umupira warambuye akaboko, akandi yashyizeho igitambaro, ashyiraho akaboko arimo kwikanda yerekana yuko akarwaye.

Icyumba cyakigwamo abarwayi, harimo ibitanda na matela abarwayi baryamyeho ndetse n'abarwaza babo, barimo kureba uko bameze kandi babari iruhande.

Abantu bahuriye hamwe bamwe bambaye imyenda y'umuhondo aband iy'umweru abandi bambaye amapantaro, imbere yabo hari amasanduku abiri imwe ufite ikirangantego cy'ivuriro hagati yabo ho harimo agacupa k'umweru gafitemo ibara ry'umukara.

Umugore wicaye, uri mu myitozo ngororangingo, wambaye inkweto zifunze, warambuye amaguru, wambaye agakabutura n'agasengeri, ufite imisatsi igera mu mugongo kandi wicaye ahantu hari ibyatsi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye harimo ubucupa bupfundikiye neza, bufite amabara agiye atandukanye, ubukarito harimo amabara y'umutuku, ay'ubururu, ay'icyatsi kugira ngo byifashishwe mu bintu bigiye bitandukanye.

Icyumba kirimo umudamu uri mu myitozo ngororangingo kandi wambaye isengeri n'ipantaro, arambuye amaguru hasi n'amaboko ayajyanye imbere yunamye, umutwe yawushyize hagati y'amaboko, ufite imisatsi miremire itendera mu mugongo.

Abagabo batatu, babiri bambaye amaji umwe yambaye ingofero abateye umugongo, undi wambaye akarindantoki afashe ufite ikibazo w'isengeri y'umutuku n'ikabutura y'umukara kandi inyuma yabo hari ibyapa byanditseho bishushanyijeho abantu bifite amabara atandukanye.

Icyumba kirimo abantu babiri umwe wicaye undi ahagaze, uwicaye yambaye imyenda y'ubururu, yambaye akarindantoki, mu ijosi he harimo icyuma yifashisha arimo kuvura kandi uhagaze ari hagati y'icyuma arimo gukoreshwa mu myitozo ngororangingo ku bw'ikibazo afite cy'umubiri.

Umumama uri mu myitozo ngororangingo, uhagaze, akaguru kamwe gahagaze akandi yagafashe agahinnye agafatishaho akaboko inyuma kandi akarambura imbere kandi yambaye isengeri n'ipantaro n'inkweto zifunze zirimo isogisi ry'umweru.

Icyumba kirimo umwana w'umukobwa uhagaze ufite icupa mu ntoki ry'amazi uririmo kunywa kandi ufite igitambaro yashyize mu ijosi akimanurira imbere, ifite ibara ry'umweru wambaye isengeri irimo amabara agiye atandukanye n'agakomo mu ijosi.

Banderore yanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru, ibara ry'ubururu kandi hari ibishushanyo biriho, hariho umuntu uzamuye amaboko, aringaniye kandi hari akandi kantu gashushanyijeho ibara ry'umuhondo.

Ni icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo uducupa dupfundikiye neza tugiye dufite amabara agiye atandukanye, n'udukarito dupfundikiye neza natwo dufite amabara agiye atandukanye, turimo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wicaye, wambaye umupira urimo amabara y'umuhondo n'umutuku n'umukara, ipantaro y'umukara, inkweto zifunze, wafashe akaguru ke arakarambura hasi, akandi aragahina, afata amaboko ye ayashyira kuri ka kaguru yarambuye, inyuma ye hari indabyo zihateye.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo abagabo babiri bambaye inkweto zifunze, umwe yambaye ikabutura y'umukara, umupira w'umutuku, isaha ku kuboko, undi yambaye ipantaro, umupira w'umukara kandi afite utuntu mu ntoki.

Icyumba kirimo abagabo babiri, harimo umuganga wambaye itaburiye, uri gufasha uwicaye mu igare kugira ngo amuyobore aho agomba kuba ari.

Icyumba kirimo umugabo uri muri siporo ngororangingo ufite imisatsi miremire wambaye udukomo ku maboko baboko yasize imbere yambaye umupira w'amaguru magufi agakabutura imbere yashyizwemo agapantaro karekare hari ibyuma bihe bitandukanye byifashishwa mu myitozo ngororangingo igiye itandukanye.

Umugabo wambaye isengeri, uzamuye ukuboko araramye ari kunywa amazi, mu mutwe we, umusatsi we ufite amabara atandukanye arimo ay'ikigina n'icyatsi.

Ibikapu bitatu, ikinini gifunze neza kandi kirimo ibintu giteretse, igikurikiyeho kirafunguye. Kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye kandi ikigikurikiye cya gatatu, na cyo kirakinguye. Kirimo ibikoresho harimo nk'imikasi n'ibindi bikoreshogiye bugiye butandukanye.

Ibiganza bifashe ikaneti mu ntoki, kandi irimo amazi. Hari ikirahure giteretse hasi kirimo gusukwamo amazi. Kuko amazi ari ingirakamaro ku muntu uyanyweye kandi akamumara inyota, afite n'umumaro mwinshi mu mubiri w'umuntu kuko asohora imyanda mu mubiri w'umuntu.

Umurima urimo ibimera bitandukanye by'ubunyabutabire, byifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura indwara za gakondo abantu baba barwaye. Nk'umuravumba uvura inkorora.

Umuririma urimo ibiti bigiye bitandukanye, harimo ibyakuze kandi ari ibiti by'ibinyabutabire, byifashishwa mu kuvura indwara zijgiye zitandukanye za gakondo.

Umurima urimo ibimera by'ibinyabutabire wifashishwa mu gukuramo imiti ivura indwara zigiye zinyuranye abantu baba barwaye gakondo.

Umurima uteyemo ibiti bitandukanye byifashishwa mu gukora ibintu bigiye bitandukanye harimo ibivamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye hari n'ibyo bahatema barangiza bagakuramo inkwi ndetse n'amakara.

Umuntu wafashe ibiganza arabigerekeranya, arangije agacupa apfundikiye neza, inyuma yako hari amagambo yanditseho yerekana anasobanura ibiri muri ako gacupa n'uko bikoreshwa.

Umurima urimo ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi harimo n'ashaka kubamo umuhondo hakaba harimo n'ay'ikigina.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ipantaro, wegamiye etajeri irimo amacupa atandukanye n'ubukombe butandukanye burimo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye, inyuma yaho hari inzu ihagazeho umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro, inkweto zifunze.

Imiti itandukanye iva ku bimera by'ibinyabutabire ivura indwara za gakondo zigiye zitandukanye nk'umwijima n'impyiko, igifu n'izindi ndwara zigiye zinyuranye.

Icupa riteretse neza rifunitse kandi ririho amagambo agiye atandukanye yandikishije mu nyuguti z'ubururu kandi ashushanyijweho inyoni irimo kuguruka, harimo umuti wifashishwa mu kuvura.

Ibikoresho birimo imiti yifashishwa mu kwivura indwara zigiye zitandukanye, iva mu kimera cy'ikinyabutabire bita igikakarubamba.

Umurima urimo ibimera bigiye bitandukanye, by'ibinyabutabire, byifashishwa mu ku kuvura indwara zigiye zitandukanye, kandi hari n'ahari imbuto z'indimu, hari n'icyuma, ibyo byose byifashishwa mu gukoreshwa mu buryo bugiye butandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye birimo amacupa n'ibikombe bipfundikiye neza, bifite amabara atandukanye hariho inyuma amagambo yanditseho yerekana agaciro cyangwa ibiri muri ayo macupa kugira ngo ukibonye amenye umumaro n'ibintu birimo agaciro kabyo.

Icupa ripfundikiye neza kandi riri mu ibara ry'umuhondo riganje, hari amagambo yanditse kuri iryo cupa, ashushanyijeho inyoni ndetse n'ibara ry'umutuku n'umufuniko waryo, kandi hari ikimera n'ikinyabutabire bita igikakarubamba abantu bifashisha bakoramo imiti igiye itandukanye yo kuvura indwara.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, harimo ikifashishwa no gukoramo imiti igiye inyuranye inavura n'indwara zimwe za gakondo.

Umurima uhinzemo ibimera bigiye bitandukanye harimo ikimera cy'ikinyabutabire kifashishwa mu gukora imiti igiye itandukanye ivura indwara za gakondo zinyuranye.

Ikimera cy'ikinyabutabire, cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, hakorwamo imiti igiye inyuranye, kugira ngo ibashe kuvura indwara za gakondo zigiye zitandukanye.

Ikimera cy'umugwegwe iyo bagifashe bakagitunganya, bakibohamo ibiziriko bikoreshwa mu kuzirika ihene, inka kandi bagikoreshaga baboha ibirago abantu baryamagaho ibindi bakabyicaraho, bakanabyiyorosa igihe cya kera.

Ubucupa butandukanye bupfundikiye neza, buriho ikimenyetso kigaragaza ko birimo byavuye mu kimera cy'ikinyabutabire cy'igikakarubamba.

Umurima uteguye neza, urangije ushyirwamo igihingwa cy'ikinyabutabire, kibasha gukurwamo imiti igiye inyuranye, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umurima urimo ikimera bita inyabarasanya y'ikinyabutabire, ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo abantu baba barwaye.

Umurima ushashemo ibyatsi by'umukara n'ikigina mucyatsi ari n'ikimera gifite amababi y'icyatsi kibisi kandi gisasiye neza.

Agacupa gatereretse neza gapfundikiye, iruhande rwaho hari ikimera cy'ikinyabutabire cyitwa igikakarubamba. Bifashisha bavura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa dutandukanye, tugiye turimo imiti turiho ibimenyetso ndetse n'ibirango by'ikimera cy'ikinyabutabire bita igikakarubamba. Kifashishwa mu kuvura, indwara zijya zitandukanye.

Ibikoresho bipfundikiye neza, kandi bifite amabara atandukanye, bishushanyijeho inyoni iguruka, n'amagambo yanditsweho. Hasi hari amababi abiri, y'igikakarubamba, ndetse hari n'agakoresho kamwe, gashushanyijeho, icyo kimera k'ikinyabutabire, bifashisha bakoramo, imiti itandukanye, ivura indwara.

Udukarito dutatu turimo amabara agiye atandukanye ay'icyatsi, ay'ubururu, ay'umutuku atererutse neza yanditseho amagambo agiye atandukanye kandi ariho ikirango.

Agakarito gateretse neza, Kariho amagambo agiye yanditswe atandukanye, Hariho amabara ari kuri ako gakarito ay'umuhondo, umutuku, ari imibare yanditse kuri ako gakarito igiye itandukanye.

Umurima uhinzemo ibimera by'ibinyabutabire, bivamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye za gakondo.

Udukarito duteretse neza turimo amabara y'umuhondo, turiho iki ikirangantego k'ikimera k'ikinyabutabire bita igikakarubamba kivura indwara zigiye zitandukanye za gakondo kandi turapfundikiye bigaragaza ko harimo imiti ijyanye n'igikakarubamba.

Umurima urimo ikimera cy'ikinyabutabire cyitwa umuravumba wifashishwa mu gukuramo imiti igiye itandukanye ivura indwara harimo: nk'inkorora n'izindi zigiye zitandukanye.

Ikimera cy'ikinyabutabire bifashisha mu kuvanamo imiti ivura indwara zigiye zitandukanye za gakondo, hari igikoresho bifashisha mu gihe barimo gutunganya iyo miti ari yo bita isekuru n'umusekuzo wayo.

Udupaki dupfundikiye tubiri turimo ibinini bifashisha bavura abarwayi indwara zigiye zitandukanye. Kandi hari bandelori handitseho amagambo yerekana icyo iyo miti ivura.

Imirima irimo ibimera by'ibinyabutabire, byifashishwa bakoramo imiti inyuranye yo kuvura indwara za gakondo muri iyi mirima harimo umuravumba, egitenetene, n'iyindi igiye itandukanye.